Ndi kubona imodoka ziri mu muhanda munini, imodoka nyinshi. Hari aga feruje hejuru kagaragaza yuko bagomba guhagarara aho bari bategereje.

Igihe cyose habayeho impanuka, wakohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho uri hose, ukamenyesha ababishinzwe kugira ngo bahagererere mu gihe.

Ahantu hasa nk'ahantu abantu basohokera bisa nk'akabari cyangwa se ahantu abantu bajya kwiyakirira bakaba bahafatiramo amafunguro ya saa sita, hari mu ibara ry'umutuku, hariho intebe z'umutuku ndetse n'imitaka yayo iratukura, birasa nk'ahantu mu gipangu hakinjiramo n'imodoka z'abantu baba baje kubagana.

Ndi kubona ishusho igaragaza uburyo ushobora gufungura akawunti yawe ukoresheje amazina, pasiwadi kugirango ibashe gukunda.

Iduka rinini ririmo ibijyanye n'ibyombo byinshi, harimo n'abantu abagurisha ibyo bintu, n'abandi baje kugura ibyo bintu birimwo muri iryo duka.

Ndi kubona umuhanda urimo umugabo ugenda ufite imisego itatu, n'iduka irimo imyenda yabagore igiye itandukanye.

Ndi kubona abagabo babiri ku ruhande inyuma yabo, hariho ikamyo bafite agapapuro mu ntoki kandiditseho bzinesi akagera moto.

Icyumba cy'inama kirimo abantu cumi na babiri. Babiri muri bo bambaye amasengeri y'akazi, bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ameza y'umuhondo. Hari ingofero y'akazi, amacupa y'amazi yo kunywa, ikayi, n'ikaramu. Bicaye bari kuganira, bari mu nama.

Abagabo babiri n'umugore umwe, ku ruhande rw'abo hari imodoka nziza, bafite ikirangantego cy'icyapa cyanditseho Rwanda buzinesi gurupe.

Ndikubona imodoka eshatu n'gikamyo biri ahantu, muri parikingi zonyine imodoka z'umukara zose.

Ndi kubona ububido bune n'ubundi bubiri, buri kabido kariho izina ry'umuntu bagomba gushiriramo amata yiwe, n'icyuma bashiramo amata ku ruhande bataragisukamo.

Ndi kubona umugore uhagaze muri cantine wagiye kugura amata usa nkaho ari kuvugisha umuntu kuri terefone n'undi uhagaze uri gutanga amata ayashyira mu ndobo.

Igipapuro uhabwa kuri Rwanda reveni otoriti, kigaragaza ko nta mwenda urimo w'imisoro wose wawishyuye ijana ku ijana.

Ndi kubona igipapuro bashobora guhereza umuntu wodarinze ibintu muri kampani n'amafaranga yose ibintu byose ukuntu byagenze .

Inzu nini igeretse y'amacumbi yishyurwa ifite amabara y'umweru hasi yayo hari imitaka y'imikara ndetse n'intebe zizengurutse ,ubwogero rusange bukoreshwa n'abayigana mu kuruhura mu mutwe ndetse no mu myidagaduro.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru ifite inzugi zikinguye ikaba ifite inzu imigezi y'imibara y'ibyatsi, n'iziri mu ibara ry'umuhondo hejuru hamanitse icyapa kii ibara ry'ubururu kirimo amadarapo y'ubugu n'ubwongereza ndetse n'amerika.

Intoki z'abagabo babiri batandukanye zifashe amafaranga yo mu bihugu bitandukanye imwe munoti umwe afite ari inoti ya maganatanu.

Ndi kubona ibihugu bitandukanye bigaragara uburyo amadolari ya buri gihugu ubwo ifaranga rya buri gihugu uburyo ryagiye rigurishwamo n'uburyo ryagiye rimanuka.

Ndi kubona umugabo ufite amafaranga, kuruhande hari amadolari magana abiri, buri noti ari idolari ijana n'andi yari muri Nigeriya igihumbi menshi.

Ndikubona inzu ushobora kujyamo ukeneye guhinduza amafaranga yawe uyafite wenda ari nko mu madorari hanyuma ushaka kuyashyira mumanyarwanda aho iyo serivisi wayikorera icyo cyapa.

Ndi kubona ahantu batanga serivisi za emupesa ushobora kohereza amafaranga uyavanye mu gihugu kimwe uyajyana mu kindi gihugu ukayakira.

Ndikubona inzu ya etaje igerekeranyije, iyi nzu igaragara nka y'amazu abantu bakodeshamo bavuye mu bihugu bitandukanye, hanze y'iyo nzu hari na parikingi mu gihe waba ufite imodoka wa wayitereka.

Ndikubona inzu ushobora gukoreramo serivisi ya banki yo kwinjiza amafaranga cyangwa uyasohora ayo ukeneye yose.

Ndikubona abantu batandukanye bari mu kazi akazi. Akazi kagaragaza y'uko ari m'urugo by'ubwishingizi abantu bashobora kuza kwakira serivisi.

Ndi kubona uburyo ushobora gukoresha konti yawe byoroshye wifashishije taranzakisheni ya guverinoma ishyigikira aba buzinesi, ishyigikira abaturage uburyo bazamuramo intego zabo na buzinesi zabo.

Hagati muri kaburimbo huzuyemo amamodoka amwe ari muri parikingi, ku ruhande n'abamotari, ku ruhande hari na kampani runaka.

Iduka riherereye ahantu ku muhanda, bari gucuruzamo ibitenge byinshi, ku ruhande hari n'undi uri gucuruza ibintu bitandukanye, muri ayo maduka harimo abakiliya baje kuguramo,...

Ndikubona abagore babiri n'umugabo umwe uri gucuruza ibiraha mu ndobo, undi ari kumwishyurira kuri telefone ngendanwa nundi ntakintu ari kumuha.

Ndi kubona umugore wicaye ahantu barobera amafi, ku ruhande hari amabase ariho amafi, n'ahandi hari abantu, hanyuma ari gufata amafi ayakuraho amagaragambya.

Ndi kubona isoko rinini, ririmo abantu batandukanye, bamwe bagura n'abandi bakomeza, n'abacuruzi babo.

Ndikubona abagabo babiri baje gukora iyamamaza ryabo ry'akazi rya MTN momo ariho bagiye kurikorera ku muhanda hari imipira, ingofero n'uducupa bagomba guhemba abantu .

Ndikubona umugabo, n'umugore, bahagaze ahantu ku muhanda, bakora muri momopeyi, bahugiye muri telefone.

Ndikubona itangazo ushobora kubona umenyeshwa uburyo ushobora gukoresha uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga ushopinga ibintu bitandukanye.

Ndikubona ifoto y'umumotari ufite akabogisi kaba karimo ibikoresho by'isuku by'ubuzima, abatanze uburyo byabageraho ari kubibagezaho umumotari.

Ndi kubona amazu atatu y'amaduka, bacuruzamo imyenda y'abagore igiye itandukanye.

Uburyo bworoshye wakoreramo akazi kawe bwihuse ukoresheje ikoranabuhanga Gugo, Fasibuke, amazone, mikosofuti n'ibindi bitandukanye.

Umugabo n'umugore bari ahantu mu nzu bahagaze, ku mpande yaho hari ibintu by'ibikoresho bitandukanye n'akabati karimo amawayini atandukanye bari kuvugana.

Ndikubona ahantu batekera hagurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu muri kigali Rwanda.

Ndikubona icyumba cya hoteri, ushobora gukodesha amashiringi magana atanu mirongo itanu buri kwezi, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Dushe irimo ibisabwa byose wayikenera wahamagara kuri nimero zirahangaha muburyo bwiza kandi bwihuse.

Inzu iherereye ahantu mu busitani igerekeranyije, ihagaze amafaranga amadolari ijana na magana atanu, iri muri Kigali Rwanda.

Ndikubona ikirango kiri ahantu hashobora kugaragariza ko ari aparitema nshobora kujyamo.

Amazu abiri matoya imwe isize amabara y’umuhondo, indi isize amabara y’umutuku, iyamabara y’umutuku yagenewe abakozi ba eyateri, iy'amabara y’umuhondo yagenewe abakozi ba emutiyeni.

Ndi kubona ifoto iriho inzu ya etage, igaragara nk'aho iri kugurishwa, ihagaze amafaranga amadorari igihumbi, iherereye muri Kigali, kicukiro

Ndi kubona inzu igurishwa miliyoni ijana na cumi iherereye i kanombe kigali ifite ibyumba bine n'amadushe atatu.

Ndikubona ifoto hariho inzu ya etage igerekeranyije, hasi hari parikingi ariko muri iyo etage bakoreramo ubucuruzi butandukanye, hari resitora, aho bacururiza imyenda n'ibindi.

Ndikubona iduka rinini ririmo abagore babiri n'umugabo umwe, bacuruza inkweto nyinshi zitandukanye cyane.

Ahantu muri sale haherereye abantu baje kwamamaza ibintu byabo by'ibicuruzwa ku ruhande imbere yabo hari abantu bari kubireba banareba uburyo bikorwa .

Iduka rinini ririmo ibijyanye n'ibyombo byinshi, harimo n'abantu abagurisha ibyo bintu, n'abandi baje kugura ibyo bintu birimwo muri iryo duka.

Ndikubona ababyeyi n'abagabo bicaye basa nkaho bategereje ko baza kubakira kugira ngo babavure bafite ibyo bari kuzuza mu ntoki.

Ahantu huzuye abaturage benshi batandukanye, habereye ikiganiro, kibasha kubwira buri muturage, ko agomba gukora kugira ngo agire ejo heza.

Intoki z'umugore wicaye ahantu ufashe mituweri mu ntoki ziwe n'igipapuro cy'ubwishingizi kiriho amazina yiwe yose n'aho atuye.

Ndi kubona alemantasiyo nini, irimo ababyeyi n'abana n'abandi bantu batandukanye. Yuzuyemo ibintu byinshi bitandukanye umuntu ashobora kugura.

Ndikubona abantu batandukanye bari muri arimatasioyo bari gushopinga, bagenda bagura ibintu bigiye bitandukanye.

Kubona iduka rya supa maketi ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bashobora kuza kuguriramo.

Ndi kubona uburyo umuntu ashobora guherezamo undi serivisi mu buryo bwiza bushimishije.